Ubwishingizi bwa radiyanti, bakaba bakorana n'abaturage batandukanye mu bwishingizi, ra adiyanti ikaba ikora mu kufasha abaturage kwizigamira, ndetse bakaba banabigisha uburyo bwiza bwo kwizigama.

Ni ubwishingizi bwitwa turi kumwe, ukaba ugura ubwishingizi bw'ubuzima bwawe n'umuryango, kandi ukaba ukanda akanyenyeri magana tanu mirongo atatu narimwe, urwego cyangwa ugahamagara rimwe umunani icumi cyangwa se telefone igendanwa ya zeru, karindwi, umunani, umunani mirongo itatu n' umunani, icumi, mirongo icyenda n'agatatu.

Ni icyapa kinini cyanditse asiranse n'ubufasha kurinda, hari umutaka uri mu ibara ry'ubururu, hasi hari umuma ufatanye n'umupapa, umumama ahetse umwana ndetse hejuru hari amatara agiye atandukanye.

Ni icyapa kinini cyane bari kwamamaza, harimo umumama n'umupapa n'umwana, ubona ko bishimye cyane, ni poroduwi inzozi kanda akamenyetso ko guteranya, umunani zeru umunani cumi na kabiri, mirongo itatu na kane mirongo itanu na gatandatu, karindwi umunani, icyenda.

Iyi ni inyubako yo muri Amerika hari abasaza babiri cyangwa abababa kuruhande hari imodoka ndetse no hirya har indi modoka hari igikorwa kigiye kuhabera runaka.

Aha bari kugaragaza uburyo bwo kohereza amafarangahari, hari kohereza kuri Berine Umuhire Ngabo, ndetse no kohereza kuri nomero ya zeru karindwi mirongo icyenda cumi nagatanu mirongo icyenda na rimwe makumyabiri na kabiri, kuri Ngabo Taniya, kuri mtn. Bamwoherereza ibihumbi makumyabiri.

Telefoni ya Mtn bakaba bari kwerekana uburyo ikora serivisi itanga zirimo, barimo kuyamamaza uburyo ikoramo.

Ni botike icuruza ibiribwa bitandukanye harimo inyanya, amavuta yo guteka, bureba ndetse n'amajyane akaba n'ibirungo bigiye bitandukanye harimo teyi, tangawizi ndetse umuceri akawunga, ibishyimbo, ibijumba, ibirayi, ibitoki.

Ni iduka ricuruza imyenda y'ubwoko butandukanye, harimo imipira iciye amaboko ndetse n'udushati tw'abamama, hari imipira ikoze mu budodo ndetse n'amashati y'umweru aciye amaboko, amakanzu y'abamama n'imipira ndetse hejuru muri parafo harimo amatara agiye atandukanye.

Ni mu iduka bakaba bahacururiza ibintu bigiye bitandukanye harimo imyenda, imipira ndetse n'amashati y'abagabo, ingofero, amakote, amapantaro n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye.

Ni mu iduka, hari imeza ndetse hari n'imashini iteretseho igikapu, harimo umumama wambaye ijipo y'umweru n'umupira w'umuhondo, arasutse yambaye n'amaherena afite telefone mu ntoki, ari gufotora, iruhande rwe hari imyenda igiye itandukanye, amakoti y'abagabo.

Iduka ry'imyenda harimo abamama babiri, umwe ari kwerekareka undi buryo bwo kwishyura akoresheje mashini.

Mu iduka rinini cyane ricuruza imyenda itandukanye, harimo amakanzu y'aba mama, hakabamo agiye arimo amabara atandukanye, arimo amabara y'umutuku, harimo amabara y'umweru, harimo amabara y'umukara, ndetse n'icyatsi kibisi, hari n'amakoti y'abagabo ndetse n'amashati.

Iduka ricuruza imyenda, inkweto, amasakoshi ndetse n'amakanzu, hari ubwoko butandukanye bw'imyenda yaba inkweto z'abagabo ndetse n'amasakoshi, amakanzu...

Ni umumama w'umuzungu, ari kuri mashine hari ibyo arimo ararebamo, ku ruhande rwe hari undi mupapa wambaye ishati y'umweru, hari impapuro arimo arandikaho ndetse iruhande rwe hari imyenda ipantaro n'umupira, inyuma yabo hari akabati babikamo ibikoresho bitandukanye.

Ni uruganda rukora ibikapu, inkweto, amasakoshi ndetse n'imikandara.

Isoko ricuruza imyenda itandukanye amakote, amatiriningi, amapantaro, inkweto, amashati ndetse n'amasakoshi, harimo n'ibindi bigiye bitandukanye.

Iyi ni sare ikaba ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, ari abashaka kujya yakira amanama atandukanye akaba ari sare nziza utanga serivisi zinoze.

Ni igikamyo kiri mu muhanda, imbere yacyo hari abapapa babiri bafite icyapa cyanditseho ABSG, hirya hari ikindi gikamyo cy'umutuku ndetse hari n'izindi modoka ziri ubwoko bwose, hakikijwe n'ibiti bigiye bitandukanye.

Ni bisi nini ya Volcano, ikaba ishinzwe gutwara abagenzi ndetse n'imizigo yabo. Ibageza ahantu hagiye hatandukanye, inyuma yayo hari iyindi bisi, zirimo kujya aho zigomba kugeza bagenzi.

Ni imodoka ya toyota y'umukara ahantu iparitse hakaba hubakishijwe n'amabuye ahiye amatafarihi hirya ari igipangu kinini kirimo fera beto ndetse n'ibiti bitandukanye.

Aha ni Akagera hakaba hari abagabo babiri bafite ibirango cyangwa se ibyapa byereka abagenzi aho bageze, inyuma yabo hari imodoka ebyiri hari n'inyubako ya etaje.

Igiceri cy'atanu cy'amafaranga y'Urwanda, kikaba kiba cyanditseho banki nasiyonari y'Urwanda, akaba ari banki nkuru y'Urwanda.

Inoti ya magana atanu, ikaba iriho ikirango cya banki y'u Rwanda, hariho inka ebyiri, ndetse hakaba hariho n'umubare magana atanu, rero gatanu na zeru ebyiri.

Iyi nyubako ikorerwamo ibikorwa bitandukanye hakaba hari umumama uje kwaka serivise hirya ye hari umupapa ahagana imbere hari imodoka ebyiri ziparitse z'umweru.

Aha muri ofisi, hari umugore ndetse n'abagabo babiri, hirya yaho hari undi mu mama, bari mu kazi kajyanye n'amashanyarazi ndetse hari n'abarimo kubara amafaranga.

Ni inote y'amafaranga igihumbi y'u Rwanda, ikaba yanditseho banki nkuru y'u Rwanda, hakaba hariho intore, ifite n'icumu ndetse n'inzu ndangamurage y'u Rwanda, hakaba hariho sinye ebyiri, imwe ni iy'umuyobozi wa banki, iyindi ni iy'umuyobozi wungirije, ku ruhande hariho imibare sj karindwi kane umunani gatatu zeru rimwe zeru rimwe.

Ibi ni ibiceri bibiri by'amafaranga y'u Rwanda hakaba harimo ibiceri makumyabiri ndetse n'igiceri cya cy'atanu.

Abayobozi bari bateranye bari muri sare, ku meza nini buri wese afite mashini, ndetse bambaye n'udupfukamunwa, hari muri kovidi cumi n'icyenda, hakaba hari undi uhagaze uri gukanda muri telefoni avuga ibyo kuri giti banki, ko wohereza amafaranga kuri konti zo muri giti banki n'izindi banki zindi.

Aha ni i Nyanza hakaba hazwi nk'ahantu hagira amata meza y'umwimerere, kandi aryoshye afite n'ubuziranenge.

Ni ikibuga kinini gishashemo utubuye dutoya haparitse imodoka eshatu iruhande hari umumama uri kugenda wambaye ipantaro y'ikoboyi n'agapira k'umuhondo ahagana ruguru hari inzu y'ubucuruzi ifite imiryango ine ndetse hirya hari n'indi miryango ibiri.

Hari ikirahure kirimo amata ndetse n'isahahani y'ibiryo hirya yabyo hari abandi bantu babiri barimo kwiyakira ubona ko rwose bimeze neza biranasa neza.

Inyange ikaba ikora amata meza kandi ku giciro cyiza, ikaba igira n'amazi, ikaba igira na juice z'ubwoko butandukanye harimo inkeri n'imyembe.

Ni aho bacururiza amata, harimo ubujerekani bakoresha, hakabamo amajaga bakoresha, harimo abakiriya baje kugura amata, hirya hari igiti kinini kiziritseho inka ikamwa.

Uruganda rw'amata, bakaba bari kwamamaza ko bakora amata meza ndetse hakaba hariho umwana urimo uranywa amata, ubona ko yishimye.

Aha ni muri hoteri ndabona umugabo usa nkaho nyine bamwakiriye uri kurya keke ndetse n'icyo gufatisha icyayi bitewe n'icyo yabatse.

Ni isuniya iri ku meza hakaba hariho amasambusa y'ubwoko bwose, aha ngaha bashinzwe gukora ibintu bitandukanye, amasambusa, keke capati ndetse n'amandazi.

Arimantasiyo, harimo bantu barimo kunywa amata, bigaragara ko bishimye, ndetse n'ibyo kunywesha, harimo umugati n'ibindi bitandukanye.

N'ahantu bacururiza amagi, hakaba hari amatureyi menshi itureyi imwe irimo amagi agera mu munani ari ku meza iriho shitingi irimo amabara abiri ubururu ndetse n'umweru iruhande rwaho hari poshete.

Ni umumama wicaye afite telefone mu ntoki iruhande rwe hari igikombe kirimo hari itasi irimo icyayi, hirya hari icyapa kiriho icupa rinini rya kokakoola, fanta n'imbere harimo amacupa y'amazi y'inyange, n'intebe zo kwicaraho za pulasitike.

Uruganda rw'Inyange kikaba ari icyuma gishinzwe gikonjesha amata, bakaba bafite amata menshi bashyira mu majerekani ndetse no mu bujerekani, ndetse bakaguha bwa buri muntu bitewe n'ayo aje akeneye.

Ni inyubako irimo amakaro hasi, hateretse ahantu bavomera amazi cyangwa se amata, hejuru hateretse amajage abiri y'umweru.

Umuntu wicaye arimo anywa amata y'ikivuguto na keke imbere ye hari akameza, ahagana hirya, ni aho bakirira abantu, ndetse hari n'amarangi asize kuri iyi nzu, arimo y'umweru.

Aha bari kugaragaza uburyo wagura amayinite cyangwa se data ugakanda akanyenyeri ijana na mirongo itatu, na mirongo ine na gatanu ubundi ugakurikiza amabwiriza.

Ni bari gutanga ikaze kuri MTN momo, mobayilo mani, kohereza amafaranga, kwishyura serivisi, kugura amayinite na bando no gukoresha momo peyi na banki ndetse n'ubufasha na poromosiyo.

Ni telefone bakaba bari koherereza umuntu amafaranga, hari uwo boherereje ibihumbi icumi, ndetse n'uwo boherereje ibihumbi magana tatu mirongo irindwi.

Mu karere ka Muhanga habereyemo irushanwa ry'amagare riba buri mwaka rikabera mu gihugu cy'u Rwanda, babahagaritse ku mpande kugira ngo hataba impanuka ndetse n'abari mu irushanwa babashe gusiganwa nta nkomyi.

Inote zigiye zitandukanye, harimo izo mu bushinwa, izo muri Amerika, izo muri Central Africa, hari inote y'atanu, iy'ijana, iya mirongo itanu, niy'igihumbi, iy'ibihumbi icumi, ndetse n'izindi zigiye zitandukanye.

Ni inote y'ibihumbi bibiri magana atanu ikaba ishushanyijeho inyubako nziza cyane igiye iriho utuntu tw'utugofero hejuru n'utwuma hirya hari ibindi biceri n'izindi note nyinshi.

Ni umugabo ufite inote nyinshi cyane, z'amafaranga igihumbi, harimo umugabo uhagaze afite umusatsi mwinshi ndetse na yambaye ishati yumukara.

Ni umushinwa afite inote zigiye zitandukanye ndetse n'ibiceri, hari ifaranga rimwe ndetse n'amafaranga atanu, hakaba inote ya mirongo itanu, inote y'icumi, inote ya makumyabiri ndetse n'iy'ijana n'izindi zigiye zitandukanye.

Umugabo arimo arabara amafaranga iruhande rwe hari ibiceri ndetse n'inote akaba arimo kubara amafaranga, hari inote iriho umusaza ndetse n'ibiceri.

Inoti icumi yo muri Congo, ikaba iriho ikirango cy'abana babiri bicaye bafatanye, hirya yaho hariho ikirango kirimo inyuguti ya ba.

Ni inote y' igihumbi y'amashiringi, ikaba irimo umugabo w'umusaza, hirya hari imibare siti, karindwi, icyenda, kabiri, umunani, rimwe, rimwe, kabiri.

Ni kuri kiyosike hari umukobwa uhagaze yambaye agapfukamunwa, afunze imisatsi, yayifungiye ahagana hejuru, hari imibare igiye itandukanye, ndetse inyuma ye hari ahantu hasize irangi ry'icyatsi kibisi ndetse n'umutuku.

Aha ni kuri emutiyeni bakaba bari kwamamaza serivisi batanga ndetse n'uko bakora, barimo kubibwira abakiriya babo cyangwa se abacuruzi rusange.

Ni luku hakaba hari umugabo uhagaze hanze yishimye yambaye indorerwamo n'ishati y'umweru hari irangi ry'umutuku ndetse hari n'amafaranga, agaragara ko bahatangira amafaranga. Hari n'ibindi bipapuro biri ku ruhande rwo hirya.

Ameza yo kwiyakiriraho, hariho intebe esheshatu, hirya hari firigo, ndetse hari n'imashini z'abatayeri zidoda imyenda.

Ni inyubako isize irangi ry'umuhondo amadirishya n'inzugi bisize irangi ry'ubururu intebe nazo zirasa ubururu utumeza dusa umweru hari umukindo mutoya nyine utarakura neza hirya hari umupapa wicaye uri kuvugira kuri telefone hari na cash powers ihinzwe kubamo umuriro.

Ni k'uruganda rukora intebe, ameza, imisego, utubati, ibitanda ndetse n'ibindi bitandukanye, hasi hashashemo amakaro y'umweru, ni mu nyubako.

Ni muri saro hari utubati tubiri twegeranye, hari n'intebe imwe idasa n'izindi, hari izisa umukara, hakaba n'iyindi nini sa umweru n'izindi za sheze, bikaba biri muri saro, hasi hari amakaro, hejuru harimo parafo ndetse n'amatara amurika cyane.

Ni inyubako ndetse ikaba imeze nka hotel. Hari inzu Y'ibijyanye n'umuco ndetse mo imbere hari ibyumba byo kuruhukiramo.

Ni muri salo irimo amakaro hasi, irimo intebe nini n'intoya, inini ni imwe intoya ni eshatu hari n'ameza ndetse n'udusego tw'izi ntebe, ruguru hari imeza y'umweru ndetse hari n'agacupa k'umutuku ku gikuta cyayo.

Inyubako ya fo oji ni etaje nziza yo ni mu mujyi kababa ari egiisipo.

Ni ku Gisozi hakaba hari inzu, iriho amazi yimena, hirya hari imitaka igera muri itatu ndetse no ku ruhande hari i8yindi nzu biri kumwe.

Ni saro nini irimo utumeza tubiri, hakabamo intebe ebyiri z'umukara n'iyindi y'kigina, yubakishijwe n'amakaro agiye atandukanye.

Ni hotel irimo intebe zigiye zitandukanye, zaba ari ndende, ingufiya bazambitse udutambaro tw'umweru, hari n'udutaka dutoya ndetse n'iminini hirya hakuryahari inzu ya etaje nini igeretse ndetse ku ruhande hari ubusitani bugiye buhakikije.

Ni inyubako hagati harimo ubusitani buteyemo ibiti, hari pisine, hari intebe zo kwicaraho ndetse ahagana hirya hari iyindi igeretse, iyi nyubako ni ndende cyane.

Ni inyubako nini cyane irimo ameza manini n'intebe zo kwicaraho, hari amajyaga y'ibirahure manini arimo amazi ndetse n'ibiyiko n'amafoke, hakabaho n'amasahani, ni ahantu ho kwiyakirira.

Ni inyubako igereretse gatatu, isize irange ry'ivu n'umweru, hasi hari jaride nini iteyemo intebe zisa umweru ndetse n'izindi za kinyarwanda, hari amatente y'umweru, hirya hari iyindi nyubako igeretse yubakijije amatafari ahiye, ndetse hari n'umukindo.

Ni inyubako irimo ibyo kurya bitandukanye, capati, cake, amandazi, hari ibyo kunywa fanta, icyayi, yawurute ndetse n'ibindi bitandukanye, hanze mu kabaraza hari intebe zihateye z'ubwoko bwose hari izo wicara ukegama ndetse n'izindi zisanzwe.

Ni inyubako ndende isize irangi ry'umweru ndetse n'umukara ifite utudirishya dutoya n'amanini irimo ibintu bigiye bitandukanye hirya hari iyindi ngufiya ifite irangi ry'umutuku ifite ibirahure by'umukara ndetse ufite n'akabaraza.

Ni etage ndende ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, igereretse inshuro eshatu, hasi hari asiranse cyangwa se ubwishingizi, hari icyapa cyanditseho umunopfo cikeni, hakaba hacuruzwa n'umu witwa Mugisha, hari inkoko, bateka inkoko.

Ni ku nyubako handitseho sunirama cyangwa ubwishingizi bwa rama akaba ari ari uburyo bwo kwivuza ukoresheje rama ndetse ukanishinganisha.

Inyubako nini cyane ya sariyamu ikaba ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye igiye ifite ibyumba byinshi byo gukoreramo.

Ni ubwishingizi batanga ubwishingizi butandukanye harimo ubw'ibinyabiziga, ubw'amashuri, ubw'amazu ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, imbere y'aho hari ipoto rinini rikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi, hari imodoka nini cyane y'igikamyo ndetse hari n'indabyo z'amoko yose.

Radiyandi ikora poroduwi zitandukanye yaba amavuta cyangwa puruduwi, hari na radiyanti ikora ibijyanye no kwizigamira.

Ni inyubako ndende cyane igeretse, ikaba yanditseho Sanlam, hasi hasi hari imodoka zigera muri esheshatu, hari iy'umukara n'izindi eshatu zisa, hakaba n'iya Toyota, n'indi idasa n'izindi.

Ishami ry'i Remera rikaba hakorerwa ibikorwa bitandukanye, harimo ubwishingizi ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye.

Inyubako ndende igeretse inshu enye, hariho icyapa cyanditseho uap, akaba ari asilanse cyangwa ubwishingizi, bakaba bagira butandukanye, ubw'imodoka, ubw'amazu, ubw'ibinyabiziga bigiye bitandukanye.

Habereye igikorwa hari umumama ukanda telefoni yuzureza abaturage bamuri imbere.

Ni aho batwa binyabiziga. Umumama ahagaze, yambaye ikote ry'ikoboyi n'agasengeri k'umukara n'ipantaro y'ikoboyi. Ateze n'agatambaro mu mutwe, iruhande rwaho hari imodoka ihaparitse yo gutwara, kwiga gutwara ibinyabiziga.

Ni kuri eko banke ukabahajya ugiye kwiteganyiriza ahazaza ukabitsa amafaranga ndetse uko ugenda ubitsa yiyongera niko ayo uguza nayo yiyongera ndetse bakanakungukira ukaba wabasura unyuze kuri eko. comu.

Ni mu isoko ubona ritaruzura neza, hari abamama babiri bacuruza amagi ndetse hirya hari ibindi bintu bacuruza mu ndobo, harimo amandazi, harimo na supadipe.

Ni inyubako nini ya etage ndende ikaba igeretse gatatu ikaba ikorerwamo ibikorwa bitandukanye by'ubucuruzi harimo gucuruza imyenda, gucuruza inkweto, gucuruza ibyo kunywa n'ibyo kurya. Hasi hari amamodoka aparitse ndetse n'abagenzi.

Ni isoko rinini risakaje amabati, hari abagabo batatu n'uwundi ku ruhande, bacuruza imyenda igiye itandukanye, imipira iciye amaboko, amapantaro, amashati, inkweto ndetse n'ibitenge, bakaba bacuruza ku giciro kidakanganye cyane.

Ni mu isoko bacuruza ibintu bitandukanye: inyanya, ibitunguru, amashu, karoti, imiteja, ibitoki, ibirayi, ibijumba, inanasi n'ibindi bitandukanye.

Ni isoko rinini ricuruza: inkweto, ibikapu, imyenda, amabaga, telefone, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Isoko ricuruza ibijyanye n'umuco nyarwanda, harimo imikeka hakabamo udukoko hakabamo imyenda ibitenge, ndetse n'ingofero z'abashaje.

Ni isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye byiganjemo imboga, intoryi, karoti, tungurusumu ndetse na wotameroni. Harimo imineke, hakabamo imboga, hakabamo urusenda ndetse n'ibiringanya.

Hano ni mu isoko, isoko ricuruza ibintu bitandukanye, ricuruza imyenda ricuruza udukapu ricuruza n'ibindi bitandukanye.

Ni isoko rinini cyane ricuruza ibitoki ,ibitunguru, amashu ,ibishyimbo ,ibijumba, ibito, ibirayi ndetse n'imyenda hakaba hari abaturage baje guhaha ndetse n'abacuruzi.

Ni isoko rinini cyane ryubatswe n'ibiti bitandukanye risakajwe n'amabati hari, abacuruzi bacuruza inyanya amashupavro imiteja corugette cyangwa cocombure hari n'abacuruza ibitenge amagi n'ibirungo bi bitandukanye byo gushyira mu biryo harimo amavuta n'ibindi bigiye bitandukanye.

Isoko ricuruza ubwoko bw'imyenda itandukanye. hari iy'abana, ibisarubeti, hari n'ibitenge, hari ibikapu by'ibitenge, hari udukoko bacuruza.

Isoko ry'ibicuruzwa by'amoko atandukanye ni imbuto, imineke, inanasi wotameloni, amaronji, ndetse n'ibinyomoro, amapapayi, indimu, ndetse n'ibihaza.

Ni mu isoko rinini ricuruza ibicuruzwa bitandukanye, hari umumama ufite umunzani, akaba apimira abaguzi byo baba bamusabye. Hari ibitoki iruhande rwe, hari ibirayi, ndetse hari n'abaturage barimo gucuruza, hari umuryango bacuruje udufuka two guhahiramo, n'ibindi bigiye bitandukanye.

Ni mu isoko ricuruza ibicuruzwa bitandukanye, harimo inyanya, pavuro, intoryi, karoti, ibishyimbo, imiteja, amashu, ibitunguru, bacuruza amafu y'ibikoma, ndetse n'imyenda, hari n'ibindi bigiye bitandukanye.

Mu isoko ricuruza ibijyanye n'umuco, harimo intebe za kinyarwanda, hakabamo inkoni bakoresha mu gusaba cyangwa se z'abasaza, hakabamo inkangara, hakabamo ibiseke, hakabamo ingofero, hakabamo ibikapu ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Ni mu isoko rinini cyane, hari abaturage benshi, barimo kugura imyenda ndetse hari abacuruzi b'imitaka ya MTN, hirya hari inyubako z'ubucuruzi, zisize irange ry'ubururu, zifite n'imiryango igiye itandukanye yo gucururizamo.

Ni iduka rinini cyane ricuruza ibitenge by'ubwoko butandukanye harimo ibirimo amabara y'icyatsi kibisi, ibirimo amabara y'umutuku, ibirimo amabara y'umuhondo ndetse n'ibirimo amabara y'ubururu, ukaba wajyayo ugatora ibara ushaka iryo ari ryo ryose bitewe n'iryo ukunda.

Ni isoko rinini ricuruza ibiribwa bitandukanye, harimo: inyanya, tungurusumu, imineke, ibirayi, amapera, amacunga, amafu yo guteka ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, hari umumama wicaye utegereje abakiriya.

Mu isoko ricuruza ibijyanye n'umuco harimo ibitenge by'abamama hakabamo inkoko, udutaro amasakoshi, imikandara ndetse na tapi, hakaba n'ibindi bigiye bitandukanye harimo amasafuriya, utumamiyo n'ibindi byinshi.

N' isoko ricuruza ibiribwa bitandukanye, abacuruzi barimo gucuruza, abakiriya nabo bari kuza kugura ibyo bacuruza, hirya bacuruza imyenda ibintu bijyanye n'ibisokozo ndetse, n'ibindi bigiye bitandukanye inkweto, imukandara mu mapantaro y'abagabo ndetse n'ibindi.

Ni muri MTN mobayilo mani bakaba batanga serivise zitandukanye, kugura amayinite, kugura umuriro, bagira n'amatelefoni, kohereza, kubitsa, kubikuza, ndetse bakaba babwira abaturage kugura felo ku ijana ku giciro kiri hasi bidanzwe, bakaba bari babashyize muri poromosiyo.

Kuri savisi senta ya MTN, bakaba babitsa bakabikura, bagatanga amayinite bakohereza ndetse bakakira n'abakiriya batandukanye.

Umukozi wa emutiyene arimo arereka umukiriya uburyo bwo kwishyura akoresheje emutiyene. Bacuruza ibintu bitandukanye byo kurya ndetse n'ibyo kunywa.

Akazu ka sarivisi za MTN kamo gutanga amayinite, kubitsa, kubikuza, gucuruza telefone za MTN ndetse n'ibindi bitandukanye.

Ni inyubako ikorera ikorerwamo savisi za emutiyeni, hakaba harimo abagana emutiyene ndetse n'abakozi ba emutiyene bagomba kubafasha bakaha ibyo bakeneye.

Ni kuri savise senta ya emutiyeni ,akazu bakaba batanga serivisi zitandukanye mu gutanga amiyinite, kubitsa, kubikuza, kohereza, amafaranga ndetse n'ibindi bitandukanye bakaba bagira n'amatelefoni ya emutiyeni.

Ni eyateri kabari telefone bakaba bari kuvuga ko 5000 uhabwa jigabiyiti 50 ndetse mu kwezi eyateri ni nziza tugira interinete yihuta.

Ni kwa muganga, bakaba bavura amaso, ndetse bakaba bari kuvuga ko poromosiyo izarangira mu kwa cumi n'abiri, kuri cumi n'eshanu, ukaba wabahamagara kuri watsapu kuri nomero ya zeru karindwi umunani makumyabiri n'umunani mirongo irindwi, ijana na mirongo itatu, bakagufasha.

Mu buryo bwo guhahira ku rubuga bakaba bacuruza inyama amashu ibitoki ibishyimbo inanasi ubuto bwo guteka ifu y'ingano ndetse na kawunga, umuceri bikaba byavuye ku bihumbi mirongo itaratu na birindwi magana atanu, bikagera ku bihumbi mirongo itanu na bine ma ganatanu, ukaba wasura urubuga rwabo unyuze kuri www.kimironkomarket.rw

Ni ku rubuga rwitwa isoko rigari komu, hakaba hari nomero batanze wahamagara magana biri mirongo itanu, zeru karindwi umunani umunani makumyabiri na rimwe mirongo irindwi n'icyenda mirongo itanu, ukajya nawe ugatanga isoko.

Moto ishinzwe kujyana ibiryo ku babikeneye babahamagaye babitumije. Bikaba biteretse kuri moto, umumotari akaba agiye kwishyura ngo aze abishyikirize ababimutumye

Umumotari ahetse ibintu kuri moto, ari nk'aho abijyanye hashobora kuba arimo ku kigo nderabuzima cyangwa ari ahandi hantu runaka.

Ni uburyo bari kugaragaza ibyo bacuruza banyuze ku mbuga nkoranyambaga, aha bacuruza amakanzu, inkweto, ingofero, amasakoshi, imipira ndetse n'ibindi bitandukanye.

Aha barimo kwamamaza ibicuruzwa byabo bakoresheje telefone ndetse na mashini, bacuruza ibintu bijyanye n'inkweto, bacuruza imyenda ku giciro cyiza. Bakaba bashishikariza abakiliriya babo rero ko babagurira.

Aba ni abamotari bari bahawe amakote yo gukoresha mu kazi kabo yanditseho yego moto urabona ko bari babyishimiye kandi rwose birasa neza.

Umumotari arimo arapakira ibintu kuri moto, ni ibyo ajyanye ibyo kurya ndetse yambaye ipantaro y'ikoboyi, inkweto z'umweru zirimo n'ibara ry'umukara, yambaye kasike n'ishati y'icyatsi kibisi, agiye gutwara ibiryo aho babimutumye. Ari mu muhanda ushashemo amabuye.

Inyubako iri mu mujyi i Kanombe ikaba ari inzu nziza irimo amakaro, hanze hari indabyo ndetse hari na pariseri nini.

Ni saro irimo intebe ndetse n'utubati, ikaba ikodeshwa amadorari igihumbi na magana atanu ku kwezi, ikaba iri muri Kigali.

Mu karere ka Muhanga habereyemo irushanwa ry'amagare riba buri mwaka rikabera mu gihugu cy'u Rwanda, babahagaritse ku mpande kugira ngo hataba impanuka ndetse n'abari mu irushanwa babashe gusiganwa nta nkomyi.

Ni sale iri Kigabaga, irimo igitanda gishashe neza kiriho udusego tubiri, ku ruhande hari agatebe gatonya kariho telefoni, hari na pulize wacumikaho, ikaba yishyurwa, iki cyumba kikaba cyishyurwa ibihumbi ijana na mirongo itatu na bitanu.

Ni inzu nini ishiremo amakaro, harimo igitanda ndetse n'akabati gatonya, hari akandi kabati karekare gafite imyanya itatu, hirya hari urundi rugi runini, ifite amarido y'umweru ndetse n'urugero runini rw'ikirahure kinini.

Ni inyubako y'i Kanombe, ikaba imeze neza, irimo indabo mu kabaraza n'amavaze. Ikaba ifite ibyumba bine byo kuraramo ndetse n'ibindi bitatu ry'ubwogero. Ikaba ikodeshwa ibihumbi magana atanu mu kwezi.

Ni inyubako y' i Kigali ahagana i Kanombe ikaba irimo ibyumba bitatu byo kuraramo ndetse n'ibindi bitatu by'ubwogero.

Iyi ni inyubako ya Kicukiro hakaba hari ibyumba bine byo kuraramo ukaba wishyura ibihumbi magana atanu ku kwezi.

Ni inzu iri mu Kagarama ifite urupangu runini, ikikijwe na pasiparama, ifite igipangu cyubakishije amatafari ahiye, mo imbere harimo ikigega gifata amazi y'imvura ndetse isakajwe n'amabati y'umutuku, ikaba ikodeshwa ibihumbi magana atandatu, ifite ibyumba bine, ibyumba bitatu by'ubwogero.

Ni inyubako nini igereretse inshuro eshatu hasi mu kabaraza hari amakaro, iriho irangi ry'imihondo ndetse n'ibirahure by'umukara, iriho utwuma dutonya hariho n'amakaro inkingi zayo ziriho amakaro y'umweru n'umukara, hatambitseho utubara twa move, hari n'ubusitani butandukanye.

Inyubako ikodeshwa y'i Kanombe ikaba irimo ibyumba bine byo kuraramo ndetse n'ibindi bitatu by'ubwogero, ikaba ikodeshwa bihumbi magana atatu na mirongo itanu ku kwezi.

Ni ikimenyetso kigaragaza kuba wava aho uri ukajya ahandi, inzozi zawe zikaba impamo ndetse uko ubyifuza bitewe nuko waba witwaye.

Aha ni icyuma, cya cyuma bashyiramo amakarita, abantu bashyiramo amakarita kugira ngo barebe amafaranga bafite ku makarita uko angana. Ndi kubona ariko bimeze ari byo.

Ni etaje ikorerwamo ibikorwa bitandukanye hari ubucuruzi, hari ubukerarugendo, hasi hari abaturage barimo kuyinjiramo buri wese ajya kureba ibyo akeneye kugura.

Iduka ririmo ibyo guteka bigiye bitandukanye ndetse n'ibyo kurya, harimo umukobwa wambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'umweru, harimo didosi, gorirosi, ubuki ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, imigati...

Ni abapapa batatu bahagaze, hari umupapa umwe uri kugira ibyo abereka, yambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'umweru ndetse yambaye n'agapfukamunwa k'umukara, hejuru yabo hari insinga zicometse nyinshi, bari ahantu hari irangi ry'umutuku ndetse n'ibindi bitandukanye.

Ni inyubako nini icururizwamo ibintu bitandukanye imyenda, ndetse n'ibigezweho. Etage ya kabiri harimo isaro kayizi, ni inkuru z'abana batoya.

Ejo heza ni uburyo bwo kwizigamira bakaba batanga serivisi zitandukanye, urizigama hanyuma bakazajya banakuguriza amafaranga ushaka ayo ariyo yose.

Ni muri ejo heza, bakaba basaba abaturage kwizigamira bakiri bato kugira ngo bazagire amasaziro meza, hari inyubako isakajwe amabati y'umutuku n'izindi ebyiri z'ubucuruzi zisize amarangi y'umuhondo, hari ibiti ndetse abaturage bari bitabiriye ubona ko bibashimishije.

Ikigonderabuzima cya Kabazungu bakaba batanga serivisi zitandukanye harimo kuvura gusuzuma ndetse no gutanga imiti ku barwayi, bakaba bafasha ababyeyi kubyara ndetse n'ibindi bitandukanye.

Ni umupapa wicaye mu biro, hanze hari umukiriya uri kugira ngo amufashe, imbere yiwe y'uyu mupapa hari dokuma nyinshi cyane cyangwa impapuro zigiye zitandukanye.

Iduka rinini ricuruza ibicuruzwa bitandukanye, harimo amavuta yo kwisiga, hakabamo ji, hakabamo gorirosi, hakabamo didosi, hakabamo yahurute, ji z'inyange, hakabamo fanta za oranje n'iza payinapo.

Umugabo hari ibyo bamuhaye agomba gutwara, ni muri supamaketi, hari undi ku ruhande urimo kumufotora arimo arafata ibyo ajyana.

Ni mu isoko rinini cyane ricuruza ibicuruzwa bitandukanye harimo ibiribwa ndetse n'ibyo kunywa harimo didosi, harimo gorirosi, harimo omo, harimo ibitenge, harimo amata y'inyange, harimo amafu y'ubwoko bugiye butandukanye.

Ni muri Simba rikaba ari isoko rinini cyane, akaba bacuruza ibicuruzwa bitandukanye, wahakura inkweto, imyenda, amasakoshi, televiziyo ndetse n'umugati wo kurya, bakaba bakora ibintu byinshi bigenda bitandukanye.

N'iduka rinini ricuruza ibicuruzwa bitandukanye harimo; ibyo kurya n'ibyo kunywa, imigati keke, amasambusa, ji z'inyange, fanta, n'amafu agiye atandukanye.

Ahangaha ni mu isoko bacuruza ibintu by'ubwoko bwose by'amoko atandukanye, harimo umucuruzi umwe abandi bo sinzi ahantu bari.

Ni mu iduka rinini cyane hari umuntu upakiye ivarilize ndetse n'ikindi kintu hejuru hariri akantu abitwayemo bacunga, bacuruza ibitenge imyenda y'abagore n'abakobwa ndetse n'amasakoshi, imikandara, ibikombe n'ibindi bigiye bitandukanye.

Ni iduka rinini umupapa ashoreye akagare karimo umwana, iruhande rwe hari undi mupapa wambaye ipantaro y'umukara n'umupira uciye amaboko, urimo amabara abiri, umutuku n'umweru ndetse n'undi mama na we wambaye nk'ibyo uyu papa yambaye, hirya hari undi mupapa wicaye ku ntebe.

Ni isoko rinini ricuruza ibiribwa bigiye bitandukanye, umuceri, akawunga ndetse n'amata, bacuruza n'imyenda y'ubwoko bwose: iy'abamama, iy'abapapa, iy'abana ndetse n'inkweto.

Mu iduka ricuruza ibintu bigiye bitandukanye harimo, amakaroni, didosi, shokora, shikarete, bombo, amandazi, capati, amasambusa, ifarine, amavuta yo guteka y'ubuto, umuceri kawunga ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Ni iduka ricuruza amata y'inyange ndetse na ji z'inyange, bacuruza gorilosi bacuruza didosi bacuruza n'ibindi bigiye bitandukanye.

Ni iduka rinini ricuruza ibintu bijyanye n'ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa, imigati, ji, amasambusa, yawurute, ji z'inyange, fanta za payinapo ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Ni muri resitora akaba harimo umukobwa uhagaze, yambaye umupira w'umutuku n'itaburiya y'umukara, asutse ibisuko, afunze shinya, aho imbere ye hari amandazi arimo gukora n'ibindi bigiye bitandukanye.

Nu isoko nini cyane rwose rigaragara neza cyane; harimo amatara amurika neza; hakaba harimo inyanya, amacunga ndetse ibinyomoro; rikaba ryiganjemo imbuto n'ibirayi.

Ni isoko rinini cyane ricuruza ibicuruzwa bitandukanye, harimo ubuki, harimo biswi z'akararabo ndetse n'ibirungo bigiye bitandukanye, harimo mayoneze ndetse imigati, amandazi, amasambusa n'amata, harimo yawurute n'ibindi bigiye bitandukanye.